Icyumba kirimo umugabo uhagaze n'undi wicaye, uhagaze yambaye ishati y'amaboko magufi y'umweru irimo utubara tujya gusa n'umukara, inyuma hari intebe ziticayemo abantu z'umutuku.

Icyumba ibikuta biteye irangi ry'umuhondo, harimo intebe iteretse imbere y'ameza, ayo meza ateretseho icupa ry'amazi, icyumba kirimo umugabo w'Umusirikare, afashe mikoro ari kuvuga ijambo.

icyumba cyicayemo abantu benshi muri bo harimo umusirikare, harimo abapolisi, imbere yabo hateretse amacupa ya ji ndetse n'ay'amazi, inyuma yaho hicaye abandi bantu barimo abambaye amakoti, inzu barimo iri guturukamo urumuri rwinshi ndetse ibikuta byayo biteye irangi ry'umuhondo.

Icyumba kirimo abantu bicaye, muri bo harimo umugabo ubahagaze imbere, yambaye ishati y'ubururu y'amaboko magufi, ifitemo utubara tujya gusa n'umweru, yambaye amataratara n'isaha.

Icyumba kirimo abantu bicaye, muri bo harimo uwambaye ishati y'umukara, irimo uturongo tw'umweru tumanuka, abandi babiri bambaye amashati y'umukara, hari undi wambaye agapira k'umuhondo, bose bafashe amakaramu bari kwandika, imbere yabo hateretse icupa ry'amazi.

Icyumba kirimo umugabo wambaye ishati y'umweru yanditseho efuperi, umugabo yambaye linete n'ingofero y'umukara, ahagaze imbere ya litari yanditseho inteko rusange y'umuryango efuperi inkotanyi, umugabo afashe mikoro ari kuvuga ijambo.

Icyumba kirimo abantu, bambaye ingofero z'umweru, udupira tw'umweru, abenshi bambaye amapantaro y'umukara, muri bo hari umudamu wambaye ibidasa n'ibyabo, yambaye ikanzu ijya gusa n'umukara, irimo utuba tujya gusa n'umuhondo, yambaye n'isaha mu kuboko kw'ibumoso.

Icyumba kirimo abantu benshi muri bo harimo umudamu usutse imisatsi, yambaye umupira w'umutuku, iruhande rwe hari umugabo wambaye ishati y'umukara, inyuma yabo hari umugabo wambaye ikoti ry'ubururu n'ishati ijya gusa n'umweru mu nda ufite imvi.

Icyumba kirimo abantu benshi bicaye, imbere yabo hateretse ameza hariho icyo kunywa kiri mu macupa, muri bo harimo umugabo wambaye ikositimu ijya gusa n'umweru, yambaye isaha y'umukara, mu kuboko kw'ibumoso, yicaranye n'umudamu wambaye agapira k'umutuku.

Umukobwa wambaye imikenyero y'umweru, yambaye agasengeri k'umweru, yambaye urunigi rw'umweru mu ijosi, yambaye urugori na rwo rw'umweru ndetse uwo mu umukobwa yambaye agatambaro gafite ipfundo mu ruhanga by'umweru umukobwa amaboko ye yashyize ku mpande, bigaragara ko ari kubyina.

Ahantu hashashe ubwatsi hari abantu bari kubyina amaboko bayashyira mu mpande. Ni umusore wambaye ishati y'umukara, yambaye imishanana. Iruhande rwe hari abandi bakobwa na bo bambaye imishanana. Imbere hari umugabo uri kuvuza ingoma.

Icyumba gishashe taro y'icyatsi hasi, hejuru hatatse ibishushanyo by'amoko atandukanye, harimo indabo z'amoko atandukanye muri icyo cyumba, ibibumbano bitandukanye, hari umudamu wambaye urugori rw'umweru mu mutwe n'agatambaro gafite ipfundo ku ruhanga, yambaye imyenda y'umweru y'imishanana, amaboko ye ari kuyabyinisha ayashyira impande zombi.

Hari ibikoresho bya kinyarwanda bya kera bibajwe, hari ikimeze nk'isekuru gicometsemo umuhini n'akandi kantu imbere gafashe muri uwo muhini, iruhande hari umuheto, bakoreshaga bari kurasa.

Icyumba kirimo abantu benshi muri bo harimo abasore babiri bambaye ubusa hejuru bambaye utuntu tw'umweru ku nda hari abakobwa babiri bambaye imishanana hari n'undi musore ufashe icumu mu ntoki yambaye ikintu cy'amabara y'umweru n'umukara mu ruhanga ndetse yambaye urunigi rw'amasaro y'umukara n'umweru mu ijosi.

Icyumba kirimo abantu abenshi bicaye ku ntebe z'umweru, harimo abadamu, harimo abagabo, bose bambaye udupira tw'umweru, utwo dupira turiho ikimenyetso kiri mu Idarapode y'u Rwanda.

Ahantu hari abantu bari kubyina amaboko ari hejuru, ni abahungu ndetse n'abakobwa, bose icyo bahuriyeho, ni uko bambaye ibinigi by'amasaro y'umweru mu ijosi, muri bo abakobwa bambaye imishanana y'umweru.

Umugabo ufashe ikintu kimeze nka telefone mu ntoki iruhande gisa n'umuhondo, ku rundi ruhande rw'iburyo gisa n'umukara, mu kiganza cy'iburyo afashe urutsinga rw'umutuku ari kurucomeka.

Imihanda ibiri iteganye muri iyo mihanda umwe w'iburyo uri kugenda mu kimodoka kinini, cya kontineri y'umweru, urundi ruhande hari kugendamo ivateri. Iyo mihanda itandukanyijwe n'indabo zinyuze hagati, murizo ndabo kandi harimo kamera bakunze kwiyita sofiya.

Ahantu hari insinga z'amabara atandukanye zinyuyuranyemo, hari amabuto menshi yo gukandaho y'umukara, hari ibiganza bibiri biri gukora muri izo nsinga, ikiganza kimwe cyambaye agakomo, kindi kiganza cyambaye isaha.

Ahantu insinga z'amashanyarazi zihurira ari nyinshi, hari utuntu tubiri tumeze nk'uturadiyo, imbere yatwo hahagaze umugabo uri gukoza ikiganza cye cy'ibumoso kuri utwo tuntu, umugabo yambaye ingofero y'umuhondo.

Ni ku gikuta k'inzu hari kashipawa iri kwerekeza hariho insinga eshatu hariho runini rw'umukara akandi k'umukara gato ndetse n'urundi rw'ubururu imbere yayo hahagaze umugabo wambaye agapira k'umutuku karimo uturongo tujya gusa n'umweru bigaragara ko agiye gukanda muri kashipawa.

Umugabo wambaye ingofero y'umuhondo yambaye ga z'umutuku mu ntoki, yambaye imyenda y'abakora amashanyarazi imbere ye hateretse ikintu, bigaragara ko ari kugikanika kuko afashe ibikoresho bikanika ibyuma by'amashanyarazi.

Ahantu hari ikintu kimeze nk'imodoka kinini giteretsemo ibyuma byiganjemo amabara y'umweru nay'umukara ikintu kimeze nk'i'imodoka kirafunguye, harimo ibintu bimeze nk'ibihombo by'umukara biri kugiturukamo ndetse iruhande rwacyo hahagaze abantu babiri bambaye amajipo y'umuhondo afitemo umukara ndetse harimo n'uwambaye ingofero y'umweru.

Ahantu hahurira insinga nyinshi cyane z'amashanyarazi, hejuru hari abagabo babiri bambaye imyenda y'ubururu hejuru bambaye ingofero z'umweru ndetse muri izo nsinga hari ahantu handitse ara.

Abagabo babiri bambaye amaserubeti y'ubururu n'ingofero z'umutuku bicaye mu byuma bisobekeranyije byinshi byinshi bisobekeranyije, harimo ibite biteye amarangi y'umuhondo, harimo ibiti amarangi y'umutuku n'amarangi ajya gusa n'kigina.

Ahantu hari kugaragara icyuma, kiriho amatara abiri yo ku muhanda, atari kwaka, hari kugaragara ikirere, hari ahasa ubururu juru hatari igicu na kimwe, hari ahari ibicu by'umweru.

Inzu nziza, iyo nzu imbere ifite jaride iriho indabo z'umuhondo ndetse n'urundi rumwe rw'icyatsi ku mpande ebyiri, hari amapave agiye kuri iyo nzu, aya mapave iruhande ateye irangi ry'umweru n'umukara.

Inzu isakaje amabati y'umutuku, iteye irangi ry'umweru, imbere yayo hicayeho abantu bakikije umuryango ufunguye, handitseho ngo: "Urukiko rw'ibanze rwa Nyagatare, purayimari koti ofu Nyagatare".

Ahantu hari ikiraro giciye mu kirere, hari abantu bari kukitegereza bari iruhande rwacyo, hari abandi bari kukigenderaho, icyo kiraro ibyuma bigifashe bikoze mu idarapo ry'igihugu ibara ry'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Iruhande rw'icyo kiraro hari imisozi miremire.

Ni imbere y'inyubako iteye irangi ry'ubururu, yanditseho ijambo Girubuzima, imbere yayo hahagaze abantu benshi muri bo harimo umuzungu, harimo abambaye amataburiya kandi y'umweru, abandi bambaye imyenda isanzwe.

Ahantu hari sitade iyo stade harimo abakinnyi batari kugaragara neza iruhande rw'ikibuga hari umuhanda usa naho ari umutuku kandi muri stade isakaye uruhande rumwe intebe zayo zigizwe n'amabara y'icyatsi umuhondo, n'ubururu amabara agize idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda.

Ahantu hari kubakwa ikiraro, hari abagabo babiri bambaye ingofero z'umuhondo ndetse imbere y'icyo kiraro, hari moto yicayeho umugabo, wambaye kasike y'umutuku, ipantaro y'umukara n'ishati ijya gusa umukara.

Abagabo biganjemo abambaye amakoti n'amakaruvati, harimo abadamu, harimo uwambaye ikanzu ndende n'inkweto z'umweru, bari kwambuka icyapa cyanditseho urugendo ruhire repubulika of Uganda.

Mu ishyamba, muri iryo shyamba harimo ikiraro kinyuze hejuru, hariho umuntu uri kugenda kuri icyo kiraro, munsi y'icyo kiraro harimo ubwatsi butoshye ndetse n'ubwoko bw'ibiti bitandukanye.

Ni imbere y'inzu, iyo nzu isakaye hejuru ndetse n'agace k'imbere gato hariho icyapa, munsi y'icyo cyapa ndetse n'impande yacyo hahagaze abantu batandukanye, harimo: abagabo, abadamu ndetse n'abana batoya.

Inzu yubakishije amatafari ahiye, ikingishije inzugi n'amadirisha biteye irangi ry'umukara, ifite amabati y'umutuku hejuru, ifite akantu gasohokeraho umwotsi.

Abantu benshi bari hirya y'ikiraro, icyo kiraro munsi kiri kunyuramo amazi atemba, gifite ibyuma ku ruhande biteye irangi ry'icyatsi, hejuru hari kunyuraho imodoka n'igare.

Inzu yanditseho gira ubuzima, imbere yayo hari umudamu ufashe umwana, imbere y'iyo nzu kandi hari urukarabiro rwakandagira ukarabe, hahagaze umugabo uri gukaraba, iruhande rw'uwo mugabo hateretse utuvase tubiri turimo indabo, utwo tuvanze twose tukaba turi mu mabara y'ubururu, umuhondo n'icyatsi biranga idarapo ry'u Rwanda.

Muri sitade hagati, harimo abantu benshi bambaye imyenda ya siporo, iyo sitade isakaye i uruhande rumwe kandi intebe zayo zimabara, icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu.

Ahantu hari ikiraro icyo kiraro ibyuma byacyo biteye irangi ry'icyatsi n'umutuku, icyo kiraro ki hasi gifashe ku mabuye akoteyeyemo sima, munsi y'icyo kiraro hanyura amazi atemba.

Amazu asa neza kandi yubatse mu buryo bumwe yose asakaje amabati y'umutuku iruhande rwayo hari igipoto kiri guturukaho insinga z'amashanyarazi zerekera muri ayo mazu ku ruhande hari ibihingwa bitandukanye harimo ibitoki n'ibindi.

Ahantu hari icyapa icyo cyapa cyanditse ngo inkunga y'ubukerarugendo mu iterambere ry'abaturage makumyabiri na kabiri makumyabiri na gatatu, imbere yacyo hahagaze umugabo n'umudamu umudamu yambaye amataratara.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo imodoka nziza y'umutuku, iruhande rw'umuhanda hari amatara yo ku muhanda, hirya yayo hari inyubako nziza kandi inyuma iyo nyubako hari umusozi muremure.

Inyubako isakaye mu buryo busa nubutangaje, ku ruhande hejuru hari amabara y'idarapo ry'Igihugu icyatsi, ubururu n'umuhondo munsi yahasakaye hicayemo abantu bigaragara ko ari muri sitade.

Ahantu hari amazu menshi yubatse mu buryo bumwe, asakaje amabati y'umutuku, hejuru ariho imirasire, iruhande rw'ayo mazu hari umuhanda, uwo muhanda uri kugendamo imodoka yo mu bwoko bwa Toyota y'umukara.

Abantu benshi, biganjemo urubyiruko, bambaye imyenda y'abaganga, bahagaze imbere y'inzu, imbere yayo handitseho ngo" Centre de sante Mwendo" bigaragara ko ari abaganga, bakora muri iki kigo nderabuzima.

Ahantu hari abantu benshi biganjemo abadamu bahagaze, harimo umugabo wegamiye icyapa yambaye akagofero k'umutuku, imbere yabo hari inzu iteye irangi ry'ubururu n'amabati yayo ateye irangi ry'ubururu.

Ni hagati y'udusozi tubiri mo hagati hanyuramo amazi atemba, ayo mazi atemba bayubakiye ahantu azajya anyura ndetse aho hantu bayubakiye, bahubatse bahateye sima ndetse ariho n'utuntu.

Ahantu hari ibiraro by'amahema y'umweru imbere bitatsweho ibitambaro by'amabara y'ubururu umuhondo n'icyatsi, imbere y'ibyo bidara hari igiti kirekire cy'inturusu ndetse muri ibyo bidara n'imbere yabyo hicayemo abantu benshi.

Icyumba kirimo umugabo uhagaze yambaye agapira k'umweru karimo n'amabara y'umukara ahagana mu ijosi, kariho Idarapo y'Igihugu cy'u Rwanda handitseho ngo RDF, umugabo afashe mikoro bigaragara ko ari kuvuga imbwirwaruhame, yambaye ingofero y'umukara.

Imbere y'inzu yubatse igeretse, hari amadapo abiri, harimo idarapo ry'u Rwanda ririmo amabara y'icyatsi, ubururu n'umuhondo, imbere y'ayo madarapo hahagaze abantu benshi muri bo harimo umudamu ufashe imikoro.

Umwenda w'umweru ugabanyijemo impande ebyiri hagati muri uwo mwenda harimo abagabo bahagaze aha abari kugaragara ni babiri umuzungu ndetse n'umwirabura bigaragara ko bari guhana impano.

Ni mu nzi inyuze hagati y'imirima ihinzemo urutoki, muri nzira hahagazemo abagabo batanu, muri bo harimo umwe ufite inkoni, harimo n'umupolisi, inyuma y'umupolisi hari umugabo wambaye ishati y'umutuku ufite inda ije imbere.

Umugabo wambaye ishati y'umukara n'ipantaro ijya gusa umukara, imbere ye hateretse bafure ndetse imbere ye na none hari imbaga y'urubyiruko, bigaragara ko ari kubagezaho ijambo.

Imbere y'inzu hari abadamu babiri n'umugabo umwe muri abo badamu harimo uwambaye imikenyero n'agafurari mu ijosi, afashe mikoro ari kuvuga ijambo, inyuma ye hari undi wambaye agafurari n'imikenyero ayambariye ku gapira k'umukara.

Icyumba ibikuta biteye irangi ry'umuhondo, hicayemo abantu b'ingeri zitandukanye, muri bo harimo abadaso, bambaye imyenda y'icyatsi, iriho idarapo ry'igihugu, ku kuboko kw'ibumoso, muri abo bantu bicaye kandi harimo umusirikare imbere ye hateretse icupa ry'amazi, telefone, n'ikayi.

Ahantu hari ibiti birebire, muri ibyo biti hagiye hanyuzemo amapoto y'insinga z'amashanyarazi, imbere y'ayo mafoto hari icyapa cyanditseho ngo Karangazi.

Inzu iriho umuryango ufunguye, imbere y'iyo nzu haparitse imodoka y'ivatiri, iruhande rwayo hari moto iri guhinguka ipine rimwe, hirya y'iyo moto hari umugabo wicaye.

Ahantu hari hanyura amazi iruhande rw'inzu, hakoteye ibisima hejuru, iruhande hari ipoto ishinze iriho ibara ry'umukara n'umweru, hari icyapa cyanditseho cumi n'icyenda, ikindi cyanditseho mirongo itandatu, imbere y'icyo cyapa, hari inzu iteye umusenyi.

Ahantu hari ikintu kimeze nk'ibati, iryo bati riteyemo imisumari, hamanitseho icyapa, icyo cyapa kiriho ibishushanyo mbonera by'amazu, ayo mazu ari ku bishushanyo mbonera agiye akikijwe n'ibiti bigaragara ko ari jaride, hariho na nimero z'uwo wahamagara uramutse ukeneye ibyo bishushanyo mbonera.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umugabo utwaye moto ahetse.

Ahantu hari ibiti bifatanye bya Gasiya, bifite uturabo tw'umuhondo, imbere yabyo hari icyapa, kiriho ikimenyetso cy'umutuku cyerekana gukomeza, imbere y'icyo cyapa hari umuhanda wa kaburimbo, uriho umurongo w'umweru ku ruhande.

Ni muhanda wa kaburimbo hagati uciyemo imirongo y'umweru, harimo umugabo utwaye igare iruhande rumwe, hari imodoka iparitse imbere y'amazu, urundi ruhande hari kugenderamo umugabo wambaye ipantaro iriho imifuka inyuma no ku ruhande.

Mu muhanda wa kaburimbo, ku ruhande rw'iburyo hariho amatara abiri ari kwaka bigaragara ko ari ni njoro, iruhande rw'ibumoso hari inyubako ndetse hari n'icyapa cyanditseho eni cumi na kabiri ave.

Mu muhanda wa kaburimbo hari kugaragara imodoka ya kwasiteri yanditseho toyota yanditseho Gabiro agorobizinesi iruhande rwayo ibumoso hari kugaragara ikindi gice k'imodoka ndetse iruhande rw'iyo modoka hahagaze umuntu wambaye agapira k'umutuku.

Mu muhanda wa kaburimbo harimo umugabo uri kuri moto, yambaye kasike, ahetse agafuka, iruhande rwe hari undi mugabo wambaye agapira kajya gusa n'umutuku, yambaye inkweto zifunguye ari ku igare.

Umuhanda wa kaburimbo hari umuntu wambaye agapira k'umweru n'ijile y'umukara, iruhande rw'iburyo hari icyapa ndetse n'inyubako, imbere ye hari igare riparitse ku giti, imbere y'icyo giti kandi hari inyubako isakaje amabati y'umutuku.

Mu muhanda wamabuye hari moto ebyiri ziparitse, zicayeho abantu, imbere yabo hari inyubako iriho ibyapa byinshi muri byo hari icyapa cy'ubururu cyanditseho amagambo yanditseho ngo wigire birashoboka.

Umuhanda w'igitaka uri kugendamo abantu benshi bigaragara ko bari mu muganda, harimo abikoreye amabuye, muri bo harimo abasirikare n'abapolisi n'abadasso bose bari muri uwo muganda.

Ni mu nzira y'igitaka harimo abantu batanu muri bo harimo umusirikare, abandi babiri muri bo bambaye ingofero zijya gusa n'umukara, abagabo bombi bafashe amabuye mu ntoki bambaye bote bigaragara ko bari mu muganda.

Abantu benshi bafashe amasuka bari guhinga, harimo abadamu, abagabo, bigaragara ko bari guharura umuhanda, hakurya y'aho bari hari amafamu, bororeramo inka ndetse harimo n'amazu, agiye yubatse atatanye.

Abantu biganjemo urubyiruko, harimo abasore, umukobwa, harimo abagabo, bari kubumba amatafari, inyuma yabo hahinze ibigori, bihinze mu biti.

Ahantu mu busitani, hicaye abantu, abantu harimo abasirikare, harimo abapolisi, harimo umugabo wambaye ingofero y'umukara n'ishati y'umutuku, harimo uwambaye ingofero y'ubururu n'ishati y'umukara, imbere yabo hicaye abandi bantu, harimo abitwikiriye umutaka.

Ni umuhanda mugari wa kaburimbo iruhande rwawo hahagaze abantu benshi harimo umupolisi wambaye ijire y'umuhondo isa n'iri kwaka, umuhanda kandi mo hagati harimo abantu benshi bari gukora siporo, umuhanda ukikijwe n'amatara yo ku muhanda.

Ahantu hari abantu benshi, bari gukora siporo zitandukanye, inyuma yabo hari ikibuga cy'umupira, hari kugaragara amazamu, ku ruhande rw'icyo kibuga, hari itara rirerire riri gukubita urumuri aho hantu, abantu bari gukorera siporo.

Ni mukibuga cy'ubwatsi harimo abagabo babiri bahagaze b'abakinnyi, umwe yambaye amasogisi yu'umweru arimo amabara, ibara ry'umukara risa n'ikabutura n'umupira yambaye bijya gusa n'umukara, kukabutura handitseho nimero kabiri, hirya ye hagaze undi mugabo wambaye ipantaro yumukara n'umupira ujya gu gusa na orange, kuboko hariho ibara ry'umweru.

Ikibuga cy'umupira hari umu, abakinnyi batatu, umwe yambaye imyenda y'ubururu iriho nimero kane mu mugongo undi uri imbere ye nawe yambaye imyenda isa n'iye ndetse umukinnyi uri k'umupira yambaye imyenda y'umuhondo n'amasogisi ya oranje.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, mu kibuga hari kugaragaramo abagabo babiri, bambaye imyenda y'ubururu amapantaro y'ubururu, amasogisi y'umweru, arimo umukara, imbere yabo hari izamu ritarimo umunyezamu.

Abantu bari mu kibuga, abo bantu abenshi bambaye amasengeri n'imyenda ya siporo, abenshi bari gukora siporo yo guhagarara ku kuguru kumwe, inyuma yabo hari itara riri kwaka urumuri rwinshi no ku ruhande hari irindi riri kwaka urumuri rwinshi.

Ni mu kibuga hagati, icyo kibuga nta bwatsi burimo, harimo abana batatu bari kwiruka ku mupira, babiri bambaye udupira, umwe yambaye isengeri muri abo bana batatu babiri, bambaye amakabutura undi yambaye ipantaro.

Ahantu hari amatsinda abiri y'abantu bicaye, mu itsinda rya kabiri harimo umupolisi, harimo umusirikare, inyuma yabo hahagaze umuhungu wambaye ikabutura n'agapira k'umukara, ahagararanye n'umukobwa wambaye ipantaro y'umukara, agapira k'umukara n'ijiri y'umuhondo.

Ni mu kibuga hagati harimo abantu batanu, batatu muri bo, bahuriye kuba bambaye inkweto z'umuhondo, abandi batatu na none bahuriye ku kuba bambaye imipira y'imikara ifite umweru kuhande, abandi babiri basigaye bambaye imipira y'imweruru iriho amabara y'umukara kuruhande.

Ahantu hari amakipe y'umupira w'amaguru agiye gukina, ahagaze mu kibuga ni ho ari kwifotoreza, muri yo hari ikipe yambaye imyenda y'umuhondo, iriho ibara ry'umukara, indi yambaye imyenda ijya gusa n'ubururu, iriho ibara ry'umweru, muri abo bakinnyi hahagazemo abantu batambaye amajezi, bigaragara ko ari abatoza.

Ahantu hicaye urubyiruko, abakobwa n'abahungu, muri bo harimo umuhungu wambaye agakomo k'amasaro y'umweru n'iroza, yambaye ingofero ijya gusa n'ikigina mu mutwe, yicaranye n'umukobwa, wambaye akapira k'umweru, iruhande rwe hari umukobwa wifashe ku itama, wambaye agapira k'umukara, imbere yabo, hari umuhungu wambaye agapira k'umukara.

Ni mu kibuga cy'umupira w'amaguru harimo amakipe abiri ari gukina muri yo ayo makipe hari ambaye ubururu, nimero zandikishije umweru, indi kipe yambaye imyenda y'umuhondo, ifiteho utubara tw'umukara.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru hari amakipe y'abakobwa ari gukina, muri yo harimo iyambaye imyenda y'ubururu, nimero zandikishije ibara ry'umweru, indi kipe yambaye imyenda y'umutuku, ifite utubara tw'umweru kuruhande, nimero zandikishije ibara ry'umukara.

Mu kibuga cy'umupira hari ahari ubwatsi ndetse nta handi hatari ubwatsi muri iki kibuga harimo abakinnyi benshi, harimo uwambaye imyenda y'ubururu bwijimye hejuru agapira, hari ibyatsi inyuma ye hari undi wambaye ikabutura yanditseho cumi na rimwe n'agapira byose by'amabara y'ubururu ijuru hirya hari abandi bantu bari gutambuka mu kibuga.

Mu kibuga cy'umupira w'amaguru, gikikijwe n'inyubako, zimeze nk'amashuri, ibiti birebire, mu kibuga hagati harimo abakinnyi, bambaye imyenda y'ubururu iriho ibara ry'icyatsi kijya gusa n'umuhondo, bari gukora imyitozo.

Ni mu kibuga hagati harimo abakinnyi harimo uwambaye imyenda y'umutuku n'amasogisi y'umweru abandi babiri bambaye imyenda y'umuhondo irimo ibara ry'umukara, inyuma yabo hahagaze undi uri kugaragara umutwe, ndetse ku ruhande rw'ibumoso hari izamu riri kugaragara igice kimwe gihagazemo umuzamu wambaye imyenda y'icyatsi.

Mu kibuga hagati hari umukinnyi uri kwiruka yambaye amasogisi y'icyatsi, afite umukara hasi , yambaye imyenda y'ubururu hejuru ifitemo ibara ry'icyatsi, kuruhande hari ubwatsi butoshye buri kugendamo abantu batatu, hakurya y'icyo kibuga hari ibiti ndetse hakurya y'ibyo biti hari imisozi.

Ahantu hari ubwatsi hari agahanda gato k'amagaraviye bigaragara ko hanyura abantu imbere haparitse moto iruhande rwayo hari ihema rihari ry'umukara ndetse kuru rundi ruhande hari amabati y'icyatsi ashinze.

Umuhanda wa kaburimbo w'umukara hagati hanyuzemo uturongo turi mabara y'umuhondo iruhande rw'uwo muhanda hari igipangu gifite inzugi z'icyatsi, iruhande rw'igipangu kandi hari indabo ziconze neza.

Mu muhanda wa kaburimbo hari umugabo uri kuri moto ahetse undi muntu bose bambaye kasike iyo moto iri kwaka itara iruhande rwayo hari ibiti ndetse n'amapoto y'amashanyarazi.

Mu muhanda w'igitaka urimo igaraviye, umuhanda ukikijwe n'ibyatsi, muri uwo muhanda harimo umudamu wambaye ijipo ijya gusa n'umukara uhetse umwana mu mugongo.

Ni mu muhanda wa kaburimbo harimo imodoka yo mu bwoko bwa fuso, iruhande rw'uwo muhanda hari amatara yo ku mihanda, hepfo y'ayo matara ahagana mu mukingo hari ibiti birebire, harimo ibifite uturabo tw'umuhondo.

Umuhanda wa kaburimbo hagati haciyemo imirongo y'umuhondo, iruhande rw'ibumoso hari kugenderamo abantu, babiri muri bo bambaye udupira tw'ubururu n'amapantaro y'umukara, ku rundi ruhande hagaragara abantu ibirenge by'abantu babiri.

Ni mu muhanda w'amabuye ukoteye na sima, iruhande hari kugenda umuntu wambaye inkweto z'umukara, ipantaro y'umukara, umupira uriho ubururu n'umukara, mu ruhande rw'imbere rw'uwo muhanda hari kugaragara amatara yo ku mihanda ari kumurika ndetse uyu muhanda, muri uyu muhanda hari kugaragara igicucu cy'umuntu.